Turimo turabona umuntu uri kwa muganga, muganga arimo aramwitaho ari kumuvura, ariko ari kubanza kumushyiramo igipimo cyo kumupima ngo arebe uko umuvuduko wiwe uhagaze, gusa ikigaragara cyo bari kutwigisha hano, ni uko ari ukujya gushaka ubwishingizi, kuko hano turimo turabona ari ubwishingizi bwa radianti, mbega umuntu iyo afite ubwishingizi, nta kibazo cy'ubuzima aba afite, ntabwo ahangayikira ubuzima bw'ejo hazaza. Icyo bitwereka ni ugushaka ubwishingizi.

Hano harimo baratwereka ibi ubwishingizi buritamu, barimo baratubwira ko wasaba ubwishingizi muri iki kigo cya buritamu, kuko ngo babutanga mu bigo bito, ibigo by'imari, amasako, n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ndetse n'ibigo by'abihayimana hano ubu bwishingizi ibigo byose byemerewe kubukoresha, mbese wishingiwe cyanga se.

Hano barimo baramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, cyane cyane bukorera muri sonarwa; mbese ni ukutwereka ibikorwa by'ubwishingizi butandukanye.

Aha turimo turabona icyapa kiza cyanditseho suniramu, ni ubwishingizi, ni bumwe mu bwishingizi bukorera mu rwanda barimo baramamariza ubu bwishingizi, na bwo ubaye ubukoresha waba ukoresha ubwishingizi bwiza. Waba utekanye waba wizewe barimo baramamaza ku bijyanye na suniramu cyangwa se ibikorwa suniramu ikora uyishingiyemo nayo byaba ari byiza.

Biragaragara ko ari telefone bari barimo barandikira umuntu yatangije ijambo helo ariko ari kwandikira nimero y'inyarwanda ngo turabona ikirangantego cy'u Rwanda cyangwa se idarapo ry'u Rwanda amabara y'idarapo y'u Rwanda, ariyo agaragaza iyi nimero ndetse na kode yayo magana abiri na mirongo itanu purasi, ariyo iyibanziriza, hanyuma yari agiye kohereza.

Turimo turabona terefone bari kutwereka uburyo ki wakoresha apurikasiyo za banke cyangwa se wakifashisha terefone uri gukoresha uburyo bwo kuri banke ukoresheje terefone.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Ni inzu y'ubucuruzi iri hafi y'umuhanda, hanyuma bari kuhacururiza imyambaro y'abadamu n'iy'abagabo irahari, iyi myambaro kugira ngo abantu babone ko isa neza, bayambitse nk'amarobo ariko ayo marobo adakora, ntago abuja, hanyuma hafi yaho hari umugabo umeze nkaho aje kuhahahira, afite igikapu mu ntoki arimo aratera intambwe agiye kuhagera hirya y'aho gato yahaparitse imodoka. Ni imyenda isa neza.

Aha turimo turahabona amasakoshi meza apanze ka etajeri keza ni iguriro twaguriramo amasakoshi meza cyane cyane ku badamu.

Hano turimo turabona ameze neza inyubako nziza, harimo abantu babiri bahicaye, batubwiye ko ari botike ikigaragara ni umuguzi n'umugurisha, harimo baragurirana nubwo tutari kubona ngo ibicuruzwa biri hano, ariko ndabona ari imitako ijyanye n'imitako indabyo n'ibindi.

Turimo turabona imodoka hari iparitse hanze ikiri nshyashya, hari iyindi iparitsemo imbere, ahangaha twahita nk'aho ariho imodoka bazihitishiriza, ni nko muri majerwa bakizivana hanze kuzigurirayo, zikiri kuri komande deja nyirayo ntaraza kuyifata, nibwo ikigera muri majerwa niko twabyita nicyo bari gushaka kutwereka itegereje ko nyiri imodoka ahagera akaza kuyifata iracyari kuri aho.

Aya ni amafaranga turi kubona, umukozi wa banki ari kuri gishe arimo araprinting cyangwa se arimo arasohora amafaranga, turabona yagiye ashyiraho udupapuro kuri buri mufungo w'amafaranga. Ni ay'abantu runaka se cyangwa n'ay'ibikorwa runaka agiye kuyashyira bene yo, ariko ni amafaranga barimo barasohora mu kamashini kabugenewe.

Barimo baratwereka umuntu uri mu nzu, arimo arabuganiza amata, hirya yiwe kuko arimo arayabuganiriza mu majaga ateretse ku meza, hari n'agacupa kameze nk'aho kavuyemo aka ji hanyuma hanze y'iyo nyubako hari umuntu umugabo wambaye ingofero, urimo aratumbira cyane uyu muntu urimo imbere ashobore kuba ari uwo agiye guha amata hanyuma hirya yaho hari akadomoro nako kahateretse.

Aha turimo turabona inyubako nziza, ahantu hasa neza turimo turabona ibicuba by'amata cyangwa se babuganirizamo amata n'utudomora twinshi, ni shopu cyangwa se ni dayari, aho wagurira amata cyangwa wajya gushakira amata ubaye ukeneye amata, amata ni ubuzima bwiza, ku muntu wese, waza ukigurira amata ukanywa.

Aha turahabona inyubako mu imbere hari ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye imineke ,amagi ,amacapati hari ahantu hateretse urusenda baza kwifashisha bari kurya ariya magi .Hari nindobo zirimo amandazi, hanyuma hanze hari umuntu uhagaze ufashe akaboko kamwe kari kuri ariya meza gusa nta gahunda yo kugura afite ariko ameze nk'aho hari ibintu ari kureba hanze ubu ndabona hari umwotsi usa nkaho wagirango n hano hari hagiye gushya ibyo cyangwa hari hahiye kuko hari n'icyapa kiri hanze hanyuma munsi ya meza hari agapuberi bashyiramo imyanda bamaze gukoresha.

Aha turimo turabona inyubako imeze neza ariko idateguye neza cyane, gusa ni shopu cyangwa se n'aho bagurishiriza cyangwa se ni iguriro twaguramo ibyo kurya byo kwifashisha, twabifata nk'akaresitora gatoya katarimo ibyo kurya bitetse harimo amaji, amafanta n'ibindi.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Aha turabona inyubako ,hanze y'iyi nyubako hari moto ihaparitse ,hari amagare ahaparitse n'ubwo wagirango ngo ni kuri dayari kuko hirya hateretse ibicuba birimo amata bigaragara ko ari bya bindi bashyiramo amata hirya yaho hari undi muntu uhagaze ku igare, hari na mota iparitse hirya y'aho, hirya y'aho iparitse iriho umuntu hari ikiyaga hameze nk'aho hari ikiyaga hari umuntu nawe gutera intambwe yikomereza yigendera gusa muri iyi nyubako abantu ntago barinjiramo harasa nabi bari kuhakorera amasuku ariko biragaragara ko ashobora kuba ari nko kuri dayari.

Aha turabona ari kuri shopu cyangwa se kuri dayari aho bacururiza ibijyanye n'ibikomoka ku matungo nk'inka cyane cyane amata. Ni amata yo mu nganda y'ubwoko butandukanye ni byo turi kubona ko ariho wayashakira cyangwa wayagurira.

Aha barimo baratwereka fagitire ya Rwanda revenu cyangwa se resi uko umaze gukora igikorwa cy'amafaranga baguha fagitire yerekana ibyo umaze gukora. Iyi rero ni fagitire bahereza umukiriya yo kuri Rwanda reveni mu gihe amaze gukora igikorwa cy'amafaranga cyangwa se fagitire baguhereza umaze kwishyura nk'umusoro runaka, bakakwereka uko amafaranga yawe yakoreshejwe ariko bifashishije urupapuro twakwita nka resi cyangwa fagitire.

Aha turimo turabona fagitire cyangwa se resi; inyemezabwishyu ya Rwanda reveni ni yo bari kutwereka mu igavumenti savisizi. Kuko bari kutwereka ko kwishyura imisoro ari ngombwa, kandi bifitiye inyungu igihugu.

Turimo turabona urupapuro rw'amafaranga cyangwa se ruriho uko umukiriya yagiye yishyura kujyanye n'ubwishingizi, barimo batwereka fagitire cyangwa se urupapuro yishyuriyeho ubwishingizi.

Mo turimo turabona inyubako nini rwose ya forigisi biro cyangwa se nk'ahantu bakorera mani taransifa, cyangwa se aho wajya ugiye kohereza amafaranga mu bihugu byo hanze, ni aho bifashisha mu kohereza amafaranga wiyoherereza umuntu cyangwa se ugiye kureba wowe ayo bakoherereje yaba amanyarwanda cyangwa se mu yandi mafaranga y'ikindi gihugu. Ni kuri mani taransifa cyangwa se kuri forigisi biro.

Aha hari inyubako nziza ariko iratugaragariza kuri furegisi biro cyangwa se kuri biro deshanje aho umuntu yanjya afite amafaranga y'amanyarwanda akaba yayashyira mu madorari cyangwa se ayafite mumadorari akayashyira mu manyarwanda.

Aha ni kuri biro deshage inyubako imeze neza mbese ushaka mani transifa cyangwa se kohereza amafaranga cyangwa se kujya kureba ayo bakoherereje, amafaranga y'igihugu runaka waza hano bakagufasha.

Aha turirimo turahabona ni shambure nziza imeze neza, ariko irimo ibintu byinshi bitandukanye, barimo batwereka ko harimo ibikoresho bigurishwa bimwe na bimwe, turi kubonamo nka matela imeze neza, akameza kameze neza, amashuka meza, n'imyenda, mbega barimo baratwereka ko hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Aha turi kuhabona inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye harimo salo igizwe n'intebe ameza hirya hari na televiziyo nziza bivuze ngo ukeneye ibikoresho byiza nk'ibya salo cyangwa se televiziyo waza gushakira hano, kubera kutwereka ko ari ahantu hari ibikoresho wabihasanga ni nka shopu y'ibi bikoresho bya salo cyangwa se nkaho washakira salo, ukeneye kugira muri salo heza.

Barimo baratwereka ahantu hapanze intebe ndetse n'ameza nkaho twakwita nka gasara manji gateguye ukuntu, kuri ariya meza hateretseho agapalato lriya palato nta kintu kiriho nta muntu ura aha hantu, muri makeya hameze nk'ahajagaraye bisa nkaho wajya ahantu bari gukorera bio bikoresho ameza n'izi ntebe kuko hari umwanda mwinshi wagira ngo niho babi.

Ndabona ari shambure iteguye neza harimo saramanje, harimo ameza n'intebe aho umuntu yakwicara ari kurya ari gufata amafunguro harimo n'igitanda gishashe neza mbega ndabona ari inyubako isa neza. Hanyuma hirya y'aho nanone hari igitanda gishashe neza ntago wabura aho wicara waje kuharira ndabona ari ko hameze.

Aha turi kuhabona ibikoresho bitandukanye ariko bya salo irimo intebe n'ameza biri mu nyubako nziza; ibikoresho biragurishwa bivuze ngo ukeneye nk'intebe n'ameza cyangwa se ukeneye salo waza ukabariza hano, hari salo nziza cyane intebe zifite imisego, ameza asa neza. Ni aha waza kubibariza ni ibikoresho byo muri salo twifashisha mu ngo.

Aha turimo turabona inyubako, inyubako nziza isa neza ariko ni hoteri, harimo ibikoresho bitandukanye turimo turabona abakozi ba hoteli babagana ari ukubasaba serivise, ndabona agiye kwaka serivise mu nyungu z'igihugu.

Barimo baratwereka kuri yuweipi inshuwarensi cyangwa se kuri biro ya yuweipi aho bakorera na wakishingana muri yuweipi, ni ubumwe mu bwishingizi dukoresha mu Rwanda.

Mwarimu abaratwereka ku bijyanye n'inguzanyo uburyo nawe wakwisabira inguzanyo muri l&M bank mbese harimu watwereka ni nde wemerewe inguzanyo ninde wakwaka inguzanyo icyo bishatse kutwereka ibijyanye na loan.

Aha turimo turabona isoko ibintu bicuruzwa bitandukanye ariko ibigaragara ni imyenda n'inkweto moturabona urujya n'uruza rw'abakiriya bari kuza guhaha n'abacuruzi bari gucuruza iyi myambaro nubwo ari isoko risa n'ibiciriritse byo mu cyaro ariko hano biratwereka ko ari isoko ribera ubucuruzi bitandukanye.

aha turimo turahabona isoko ryiza isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye ariko harimo cyane cyane ibirungo nk'inyanya ,amakaroti ,miteja harimo ibyo kurya imboga ,inoryi harimo amapuvuro amaseleri mbese harimo harakorerwa ubucuruzi butandukanye ariko by'umwihariko ibicuruzwa byibanda ku mboga hanyuma harimo n'ibirungo bitandukanye by'amafu nk'amatomato ,ama sante y'ibirungo bitandukanye harimo abacuruzi bari kubicuruza harimo n'abaguzi baje kugura mbega urabona ko ari isoko risa neza kuko harimo ibintu bisa neza.

Aha turi kuhabona inyubako nziza ndende, imbere yaho hari abantu benshi nubwo hari na kaburimbo ni inyubako yubatse kuri kaburimbo, hari amamodoka ahaparitse amatagisi vuwatire, hari abamotari hari urujya n'uruza rw'abantu, ariko iyi nyubako biragaragara ko ari isoko ni isoko ryiza rimeze neza ryubakiye ariko riri hafi y'umuhanda ricuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Iri ni isoko tureba imbere yacu; aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye: imyambaro, bikapu, ibyo kurya nk'imbuto. Harimo abaguzi sinzi ibyo barangariye, ariko ni mu isoko.

Aha turimo turabona umuntu uri mu gakiyosike ka Emutiyeni arimo arandika mu gitabo, hari na telefone iri iruhande rwe, hanze ya gakiyosike hari undi muntu twakwita nk'umukiriya we, mbese uyu ni umukozi wa Emutiyeni, ukorera Emutiyeni, uyu uri hanze arimo araka serivisi zijyanye na Emutiyeni, uwo mu gakiyosike ari kumwakira, ni uku biba bimeze.

Hano turimo turabona umukozi wa emutiyeni, uri mu hagati uri mu gakiyosike mo imbere, ari kumwe n'umukiliya arimo aramwakira yishimye, agakiyosike rero ni akazu kimukanwa, wakimukana igihe runaka ariko arimo imbere nubwo hari n'undi wicaye tutari kubona neza ariko uhagaze arimo arakira umukiliya, mbega barimo baratwereka uko bakira umukiliya kuri serivisi zijyanye na mobayiro mani.

Iri ni isoko rya onurayini cyangwa se aho wakwihahira, ukoresheje onurayini savisizi, ushobora kuba wibereye mu rugo ugatumizaho igicuruzwa, bakakikugezaho utarushye rwose.

Turimo turabona isoko rya ribera ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ifite izina twakwita nka iguriro mbega ushobora kwihahira ukoresheje iyi sisiteme yitwa iguriro ariko onulayini. Ivuga ko wagura cyangwa se wakwagura ibicuruzwa bya uvuye kuri burandi nini ukajya kuri burandi ntoya nibyo.

Hano turimo turahabona inyubako nziza yanditseho tayo, nangwa se inzu ya tayo, nayo ni iguriro ariko cyane cyane ryifashisha ikoranbuhanga. Wakigurira rero ukorehseje onulayini.

Iri ni isoko ribera ku mbuga nkoranyambaga n'ubwo turi kubona inyubako harimo imyenda ibicuruzwa nyine by'imyambaro bitandukanye, harimo nk'imyenda y'abagabo imyenda y'abagore akaba ari n'imodoka ihaparitse, ariko ikigambiriye ni ukutwereka ko cyangwa, ni ukutubwira ko ushobora nko gutumizaho umwambaro ukoresheje imbuga nkoranyambaga bakaba bawukugeza aho wibereye mu rugo wakoresheje telefone yawe cyangwa wabisabiye kuri telefone mu isoko ryo ku mbuga nkoranyambaga.

Hano barimo baratwereka shambure iteguye neza, irimo gitanda gishashe neza, bari kutubwira ko wayisanga muri Kigali, mu Rwanda, ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Aha turirimo turahabona inyubako nziza, imeze nka biro ariko nziza ihererereye ku gishushu muri kigali, iri kutubwira ko ari iruhande rwo kuri aradibi yishyurwa amadorari magana ane ku kwezi ubwo bivuze ngo ni ukuyikodesha, ubaye uyikeneye cyangwa ukeneye aho gukorera waza ukayikodesha bayiguha iraboneka ku gishushu.

Kanombe igizwe n'ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, bari kutubwira ko ikodeshwa igakodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi. Ubwo uwayikenera ndetse ni nko kuyamamariza cyangwa se ni nk'itangazo ari kutwereka ko iyi nzura iri gukodeshwa. Uwayikenera muri make yaza kuyishaka akayibona.

Ni inzu igurishwa iherereye i Kigali i Kanombe, bayishyize ku isoko nyine barimo baratubwira ko igizwe n'ibyumba bine, hanyuma n'ubwogero butatu, mbega barimo barayishyira ku isoko kugirango umuntu wese uyikeneye abe yabasha kuyigura, e ariko iri ahantu heza cyane yubatse neza, e impande yaho na ho harasa neza uwayishakaya ya.

Turimo turabona supamaketi irimo ibintu byinshi bitandukanye byo kunywa, amaji, amafanta y'ubwoko bwose, amazi y'ubwoko butandukanye, harimo n'umuntu byagaragara ko ari umukiriya wishimiye ibyo ahasanze nubwo ataratangira kugura hari akantu afite mu ntoki ntago turamenyamo nimba ari agacuruzwa cyangwa se ari igicuruzwa ariko nyine ahagazemo yishimiye ibihari.

Barimo baratwereka ahantu hari inyubako nziza irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo barakira abakiliya hari aho bakirira abakiriya bafata igicuruzwa warangiza ukajya kwishyura, mbese hameze neza nibatwereka uko umuntu yasaba serivisi akayihabwa kandi akayihabwa neza mujye kugurira.

Barimo baratwereka iguriro cyangwa se inyubako, n'ibicuruzwa bitandukanye, turabonamo nk'amasakoshi y'abadamu, mu bikapu bitandukanye, turabonamo ibicuruzwa bitandukanye harimo abakiriya benshi bitabiriye kuza gushopinga cyangwa guhahira muri iri soko, gushopinga cyangwa se n'ukugura batwereka ushatse kutwereka gahunda y'igurisha.

Baratwereka ibijyanye n'ubwishingizi mituwere do sante, uko wakwivuzaye ni ibijyanye n'ubuzima bari kutwereka no kuri mituwere do sante wakwivuza ukagira ubuzima bwiza nicyo bashaka kutwekana.

Aba barimo baratwereka gahunda ya ejo heza. Bari kutwigisha uko twakizigamira tuzigamira ejo heza cyangwa se ejo hazaza heza, ku nyungu z'ubuzima bwacu, mbese iyo wizigamiye uyu munsi ejo muzabukuru, birakugoboka. Bari kutwigisha muri make uko twakwiga kwizigamira kugirango ejo tutazasabiriza.

Aha turimo turahabona abaturage benshi batandukanye bicaye muri sare, bafite amafishi mu ntoki, ndetse n'amakayi bateruye abana, ariko ni kwa muganga ni muri serivisi z'ubuzima, biragaragara ko ari kwa muganga barategereje, bazanye abarwayi cyangwa se bafite abarwayi n'abarwaza, buri wese afite ifishi ye ategereje ko aza kugerwaho akaba yavurwa, ni serivisi z'ubuzima.

Biragaragara ko ari supamaketi ngari rwose nini, ipanzemo ibicuruzwa bitandukanye, hagiye harimo ibyumba nabwo bitandukanye uhereye hasi gushika hejuru, harapanze kandi rwose, harimo ibicuruzwa byinshi byinshi kuko biregeranye, bivuze ngo haragutse ntabwo wajyamo ngo buri ikintu ugura, gusa ntamugurisha nta muguzi, nuko hameze haratuje.

Abantu benshi bahagaze imbere y'isoko ryisumbuye ryitwa SIMBA senshoneri hawuzi, imbere hari abantu batambuka ndetse n'abinjira mu isoko.

Turimo turabona inyubako nziza ipanzemo n'ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane iby'abantu bashobora kurya cyangwa se gukoresha bitagombeye kubanza guteka, turimo turabona n'umukiliya uri gusohokamo yari avuye kwihahira ibicuruzwa ni muri supamaketi.

Barimo baratwereka umukozi uri mukazi ndetse n'umukiriya waje umugana yamwakiriye anezerewe cyane, agiye gukoresha kaka mashini ka visa kadi ari kumubikurira amafaranga, ashobora kuba agiye kumwishyura bitewe na serivise yaramuhaye ariko akoresheje agakadi ashyize kwa kano ka mashini ari gukoresha. Bari kutwereka ko wakishyura amafaranga ukoresheje n'akamashini atari mu ntoki.